Ububiko bw'amacupa atandukanye ya gazi, harimo asa umutuku, umukara, umuhondo ndetse n'icyatsi, harimo ayo mubiro bitandukanye, ibiro bitandatu, icyenda n'ibiro cumi na bitanu kuzamura, hahagaze kandi abantu batandukanye, ariko batagaragara neza.

Mu nyubako y'Urusengero hicayemo imbaga nyamwinshi y'abantu b'ingeri zombi. Harimo: abagabo, abagore, abana ndetse n'abandi benshi. Bombi bahanze amaso imbere, bicaye ku dutebe bahanze amaso kuri alitari. Aho Padiri ari kwigisha ijambo ry'Imana.

Mu cyumba cya Hoteri gisize irangi ritukura, uburiri bushashe bushashishije amashuka y'umweru, bukagira umutako hagati w'umwenda utukura, icyo gitanda gisize irangi ry'umutuku kuri garidelobe giteretseho mudasobwa n'utundi dukoresho.

Inyubako ya hoteli ifite urupangu ubugari rusize irangi ry'umweru ndetse n'umuhondo, iri ahantu hari ubusitani bugari cyane bwiganye ibyatsi by'icyatsi kibisi biconze neza, ni inyubako igaragara ko iri ku murambi hiryayo hari udusozi ariko dutoya.

Imbere y'inyubako ya Hoteri igeretse ariko itagaragara yose. Hahagaze umugabo wambaye amakositimu y'ubururu wikoze mu mifuka, uri mu kigeroro cy'imyaka hagati ya makumyabiri n'itanu na mirongo itatu n'itanu. Wambaye inkweto z'umukara uhagaze ahantu hapavomye. Imbere ye hari ubusitani, n'inyuma ye hari ubundi busitani.